Imodoka ziparitse ahabugenewe ziri ku isoko zifite amabara meza cyane atandukanye, harimo umweru, umukara zikaba ziri imbere y'igorofa, ku ruhande hakaba hari ibiti by'ibidukikije.

Inzu icururizwamo ikinyobwa gikomoka ku nka cy'amata, hakaba harimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukonjesha ndetse no gutunganya icyo kinyobwa kugira ngo kibikwe neza.

Icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ku mpande hakaba hari icyuma cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu gukonjesha ikinyobwa cy'amata n'ibindi binyobwa nk'imitobe n'amazi.

Nyaburanga isohokerwamo n'abakerarugendo n'abandi bantu bagiye batandukanye baturutse impande zose, hakaba hari umuntu ucuruza, hakaba hari n'amatara ari mu ibara ry'umuhondo.

Isoko rihurirwamo n'abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto higanjemo inyanya, imboga rwatsi, karoti, ibitunguru, urusenda ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Bato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha ku birebana n'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda MTN, ku bijyanye no kubitsa, kubikuza, kuguza ndetse no kohereza amafaranga hirya no hino mu gihugu.

Abakozi b'ikigo cy'uyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda MTN, bambaye imipira y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, biteguye gutanga ubufasha ku birebana no kubitsa, ku bikuza, kohereza no kwakira amafaranga.

Utuzu tubiri cyangwa inyubako zitangirwamo ubufasha ku muyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, kamwe kari mu ibara ry'umutuku akandi kari mu ibara ry'umuhondo, aho bakubwira uko wakohereza ukabica ukanabikuza amafaranga.

Inzu nziza zikodeshwa ziherereye i Remera mu mujyi wa Kigali, zubakishije amabuye akomeye, hakaba hari umuhanda, zikaba zifite uburyamo bumwe ndetse n'ubwogero.

Inzu igurishwa iherereye mu Mujyi wa Kigali miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda, ikaba iri mu gace ka Kimironko, ikaba yubatse neza, isize amarange atandukanye y'umweru n'umukara.

Isoko ricuruzwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda bikongerwamo intungamubiri nyinshi, bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika ndetse bikabikika igihe kirekire.

Icururizwamo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye, byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu byuma cyangwa se ibikoresho byabugenewe bikaba byabikwa igihe kirekire bitangiritse.

Isoko rya kijyambere ricuruzwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe, ndetse bikaba byirinda kwangirika.

Rya kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda bigatunganywa neza bikongerwamo intungamubiri zigiye zitandukanye, bigafungwa mu bikoresho byabugenewe birinda kwangirika.

Isoko rya kijyambere, rigezweho ricuruza ibicuruzwa byanyujijwe mu nganda, hakongerwamo intungamubiri zigiye zitandukanye, ndetse bigafungwa neza mu buryo bwabugenewe, harimo umukozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga n'umuyoboro w'itumanaho mugari mu Rwanda MTN.